Umuyobozi w'inama agaragaza ibitekerezo bitandukanye by'abitabiriye inama zibanze ndetse no gusobanura ingingo ku yindi.

Umuyobozi aratanga inama ku bitabiriye inama bambaye imyenda y'umweru ndetse n'ingofero z'umweru.

Inama yitabiriwe n'ingeri zitandukanye ndetse n'abanyamakuru baje kumva ibivugirwa mu nama banafata n'amashusho y'ibiri kubera mu nama.

Inama rusange yitabiriwe n'ibihugu bitandukanye byo mu isi, yiga ku bibazo bitandukanye ndetse bifasha kugira ngo abantu bamere neza.

Abantu bari mu nama biga ku bibazo bitandukanye, ndetse mu nzego zitandukanye bafite ababahagarariye muri iyo nama, kandi hari n'umuntu uri gufata amashusho.

Ushinzwe umutekano wo mu muhanda wambaye imyambaro y'umukara ndetse irimo imirongo y'icyatsi kibisi ayobora abantu ndetse n'imizigo batwaye.

Ifoto ya nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, imanitswe n'abaturage benshi bitabiriye inama yo gutora ndetse no kwamamaza umukuru w'igihugu.

Perezida wa repubulika Paul kagame ndetse n'umugore we, muri sitade, bitabiriye inama, ndetse hari n'abantu benshi b'ingeri zitandukanye baje kumva ibyo umuyobozi ababwira.

Imodoka itwara abagenzi rusange ifite amabara atandukanye harimo ubururu ndetse n'umweru, inyura mu nzira nyabagendwa.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bamwe bakoresha amagare abandi baragenda n'amaguru ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye harimo amakamyo ndetse n'amamoto.

Inzira nyabagendwa irimo abamotari bambaye amajire y'umuhondo n'ubururu, ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye biri iruhande rwabo ndetse n'abantu bari gukoresha inzira nyabagendwa.

Amazu menshi yo guturamo ari kimironko agaragaye ndetse yubatswe mu buryo bwa kijyambere anasakaye neza asize amarange y'umweru ndetse n'andi menshi meza.

Umuhanda ufite ikirango KG magana atandatu mirongo icyenda n'umunani, ukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye harimo moto.